Ku itariki ya kabiri ugushyingo muhumbibiri na makumyabiri nagatatu i Kigali, hateraniye inama y'igihugu yiga ku guteza imbere ubuvuzi bashoramo imari harimo abayobozi batandukanye ndetse na minisitiri w'ubuzima Nsanzimana niwe uyoboye iyo nama.

Mu nteko y'abaturage, hari abaturage benshi, bicaye mu gishararagati, umuganga ahagaze imbere yabo, ari kubasobanurira abashishikariza ibijyanye n'ubuzima n'amagara meza, afite indangururamajwi ndetse n'ikayi yandikamo ibyo ari kwigisha abaturage. Abaturage bateze amatwi, harimo abagabo bakuru n'ababyeyi bakuze.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, umupira w'icyatsi, wambaye n'amadarubindi w'umudamu ari gupima umusaza wambaye ingofero y'umukara n'ikoti ry'umukara n' numupira w'umweru ufite imvi nyinshi ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umugabo ufite ubwanwa, ari gusukura amenyo akoresheje agakoresho gakoze muri palasitike, birasa nk'aho amenyo ye afite ikibazo, kuko ntiyera arasa nk'aho ariho ibintu bisa n'umuhondo.

Umuforomokazi w'umuzungukazi ari kwita ku musaza w'umwirabura ukuze, ufite imvi nyinshi mu musatsi no mu bwanwa wambaye amadarubindi ari kumufasha kugorora ingingo yifashishije akagozi k'umuhondo, inyuma yabo hicaye umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati yumweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gufasha umurwayi bigaragara ko akuze, ari kumufasha kugorora ingingo, umubyeyi arishimye, birasa nkaho yishimiye ko muganga ari kumufasha.

Mu nyubako yo kwa muganga, mu cyumba bakiriramo abantu, hari intebe nyinshi, hakaba n'aho gukarabira ndetse hari n'inyakiramashusho abantu bareberaho amashusho iyo bicaye bategereje ko ba muganga babakira. Hari urubaho rwandikwaho amatangazo kugira ngo abantu bamenye ibikurikiraho kwa muganga.

Umugabo wabize ibyunzwe byinshi kubera kwiruka cyane akora siporo, akaba umupira yambaye watose, ubu ari kuruhuka anywa ku mazi kugira ngo yongere atore imbaraga asubire akomeze gahunda ye yo gukora imyitozo ngororamubiri.